Umugabo wambaye umupira w'umweru, akaba yambaye ingofero y'umukara, akaba yambaye akajire kajya gusa nk'ubururu n'ipantaro y'umweru, akaba ari mu modoka ifite vola y'umukara.

Iki ngiki akaba ari cyaba cy'amamariza buritamu. Akaba hariho umugabo uri kuvugira ku cyombo, wambaye ijire y'umutuku irimo n'uturongo tw'umweru, akaba yambaye kasike y'umutuku n'ishati y'ikoboyi ijya gusa nk'ubururu. Hakaba hari nimero ushobora kuba wahamagararaho.

Icyapa kimanitse ahantu, kiriho umuntu w'umuzungu wambaye ikositimu y'ubururu, karovate y'ubururu, ishati y'umweru, urimo useka, akaba ari icyapa cyamamaza, kikaba cyanditseho, didiyu fili dati.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi kiri mu ibara ry'umweru, ibirango by'umutuku n'umukara n'ubururu, akaba ari icyapa kimanitse ku kindi cyuma, hejuru akaba hari ikirere cy'ubururu n'umuhondo.

Iki ngiki akaba ari icyapa cya, cya Britam, akaba ari icyapa kiriho umugabo uri guseka, wambaye isarubeti irimo ibara ry'ubururu n'umukara, n'agatisheti ka gireyi, akaba ari icyapa kikubwira kiti ramba na Britam.

Iyi ngiyi akaba ari inzu, irimo abagabo babiri, umugabo umwe uri hirya utagaragara, n'undi mugabo wambaye ikositimu n'ishati ya karokaro wicaye, akaba ari imbere y'ibyapa bya Radiyanti.

Iringiri akaba ari iduka ricuruza imyenda iduka rigizwe amakaro, amatara inkingi akaba ari iduka ubona ko imbere rifite irangi ry'umweru.

Aka etajeri karimo imyenda, amashati n'agapira ka maniyu, ku ka etajeri hejuru hakaba harimo ahantu bashyira ingofero hakaba hari ingofero nyinshi z'ubwoko butandukanye.

Aba akaba ari abantu babiri abagore babiri umugore w'umwirabura n'umugore w'umuzungukazi, akaba ari umugore w'umuzungukazi wambaye ishati y'umweru ubona ko atagaragara neza mu maso undi akaba agaragara amaso neza akaba yambaye agapira k'ubururu.

Maneke yambaye agakanzu k'umukara, hirya hakaba hari utubati tw'umweru, ikaba iri mu nzu ifite amakaro y'umweru. Hirya hakaba hari inkweto ziri hasi.

Akaba ari ifoto y'ikote bari kwamamaza rya kositimu riri mu ibara rya gureyi na karovati ijya kumera nk'umweru. Akaba ari ifoto ubona ko bariye nka sikurinishuti yo kuri fesibuku.

Iyi akaba ari imyenda ya made in Rwanda, imanutse kuma porute manto, ikaba ari imyenda myinshi iri mu ibara ry'umukara, gusa hakaba hari n'indi iri mu ibara ry'umuhondo uvangavanze, gusa umuhondo wiganje.

Izi ngizi akaba ari maneke bambitse imyenda ubona ko ziri imbere y'iduka ricuruza imyenda. Iduka bakaba baryita tarasiti kampani. Kikaba ari icyapa kibaranga kiriho na nimero zabo, ubashaka wababonaho.

Iringiri akaba ari iduka ricururizwamo imyenda aho harimo abantu babiri b'abazungu umwe muri bo ubona ko afashe imyenda akaba ari harimo n'undi muntu uri kuri kontwari wambaye agakositimu ka gireyi, ishati y'umweru, ubona ko ari kumwenyura.

Akantu kameze nk'urwego kamanitseho ibipupe byinshi bigiye bitandukanye, kakaba kari mu nzu ifite urukuta rw'umweru, imbere yayo hakaba hagaragara idirishya ribonerana.

Iyi akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi, ubona ko ari ubucuruzi bw'imyenda, hakaba harimo abagore babiri, hakaba harimo umwe ufashe amvelope, ubona ko ashobora kuba yari yaje guhaha, cyangwa se bakaba bayimupakingiye, akaba ari umugore w'inzobe, undi akaba ari umumama w'igikara.

Aba akaba ari abagore babiri, umwe w'umuzungu, n'undi w'umwirabura, uw'umwirabura akaba yambaye agapira k'ubururu, akaba yambariyemo n'agasengeri k'icyatsi, n'ipantaro y'ikoboyi, umuzungu nawe akaba yambaye agapira k'icyatsi, gafite ikintu kimeze nka telefone.

Imbere yanjye nkaba ndi ndi kuhabona ifoto wagira ngo ni sikirinishoti, akaba ari ifoto igaragaramo ibikapu bigiye bitandukanye by'umutuku, iby'umukara n'ibindi, ubona ko bishobora kuba bicuruzwa.

Aba akaba ari abantu babiri umwirabura n'umuzungu, umwirabura akaba yambaye ishati ya buresiyeri na karuvate irimo uturongo tw'umutuku n'utw'umukara, umuzungu akaba yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru bakaba bari kumwereka muri mashini.

Akaba ari iduka ricuruza imyenda cyangwa se rishobora kuba riyidoda, rikaba riri mu ibara ry'umweru bakaba baryita Rwanda & a clothing STORE. Rikaba mo imbere ukaba ubona ko hari ba.

Inzu irimo abagabo babiri n'umugore umwe uri inyuma yabo utagaragara neza umugabo umwe akaba ari umuzungu wambaye ishati y'mweru n'ipantaro y'umukara akaba ari kumwe n'umugabo wu'mwirabura wambaye ishati ya karokaro inyuma akaba ari umugore wambaye agapira k'uburura utagaragara neza.

Aha hanga akaba ari ahantu hamanitse imyenda, gusa hakaba hari imyenda imwe bameze nkaho bakenyera cyangwa se bakunda kwitandira, hari imyenda myinshi iri ahantu munzu irimo amakaro y'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bwa suzuki kiyazi ikaba ihagaze iparitse ikaba ifite ibara ry'umweru ikaba igurishwa miliyoni cumi n'umunani.

Akaba ari imodoka y'umukara iri mu bwoko bwa rave, ikaba ikikijwe n'abantu bane gusa batagaragara neza, ikaba ari imodoka ifunguye imiryango imeze nk'iri kugurishwa ikaba iri ahantu hameze nko mu nzu.

Iyi akaba ari imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa jipe, akaba ari imodoka iri kugurishwa miriyoni mirongo itandatu n'eshanu, ikaba ari imodoka iparitse ahantu.

Iyi akaba ari imodoka icururizwa mu Kagera Motos. Akaba ari imodoka ya dayihatsu iri mu ibara ry'umweru ihagaze imbere abagabo babiri, ubona ko harimo umwe ushobora kuba ayiguze cyangwa se bakaba bari kuyamamaza.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso iparitse ikaba ifite ibara ry'umweru, imbere yabo hakaba hahagaze abagabo babiri umwe akaba yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n'udukweto turiho agasa umutuku, akaba yambaye ishati y'umukara, ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara.

Iyi ikaba ari imodoka iparitse ahantu mu nzu, inzu ifite amakara y'umweru inkuta z'umweru akaba ari imodoka y'umukara ubona ko ari shyashya. Imbere yayo hakaba hari inzugi zifite ibirahure bibonerana.

Abantu barindwi bari mu nyubako, batatu bakaba bicaye abandi bane bakaba bahagaze, muri batatu bicaye hakaba harimo umumama umwe, abagabo babiri uwambaye agapira k'umutuku n'uwambaye agapira k'umukara, umumama akaba yambaye ikanzu y'umukara.

Iyi akaba ari imodoka yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'umweru ikaba ihagazeho abagabo babiri umwe bambaye ipantalo ijya gusa nk'ikigina akaba yambaye aga gatishati k'umukara undi akaba wambaye ishati y'umweru n'ipantalo y'umukara.

Iki akaba ari ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa fuso, akaba ari ikinyabiziga gitwara imizigo kinini imbere yacyo hakaba hahagaze abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara nundi wambaye ishati ya gereyi n'ipantaro y'umukara akaba ari abantu bakora mu Kagera motozi.

Imodoka iparitse yo mu bwoko bwa kiya ikaba ifite ibarajya rijya gusa nk'umweru gusa werurutse, purake zayo zikaba zihisha imbere y'imodoka hahagaze abagabo babiri bambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukarandi uwambaye ishati ya karokaro n'ipantaro n'inkweto z'umukara bakaba bafite imfugwa.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ikaba iparitse mu nzu, iyo nzu ikaba ifite inkuta z'umweru, ikaba ifite amakaro y'umweru, akaba ari imodoka yo mu bwoko bwa Yundai.

Iyi akaba ari inote y'u Rwanda y'ibihumbi bibiri akaba ari inoti iriho agaseke, iriho umunara n'igisahane, akaba ari umunara utanga amanetuwaka akaba ari inoti iri ni ibara ry'ubururu n'umweru.

Iyi ikaba ari inoti ikoreshwa mu Rwanda akaba ari inote y'ibihumbi bitanu ikaba iri mu ibara ry'umutuku wiganje umutuku utari umutuku cyane, ikaba iriho ya nzu bita komvesheni senta.

Inote iteretse ahantu ku meza, ikaba ari inote y'umutuku irimo uduseke, ikaba ari inoti y'u Rwanda y'ibihumbi bitanu, inoti ikaba yiganjemo umutuku mwinshi n'akeru gake.

Uyu akaba ari umugabo w'umwirabura wambaye ishati ijya kumera nk'umweru gusa itagaragara neza, aho ari gukoresha akamashini kabara amafaranga, amafaranga akaba atari amanyarwanda, akaba ari amafaranga ubona ko ariho umuntu....

Agiri akaba ari botiqu ikorerwamo ubucuruzi bw'ubucuruza amata cyangwa se bita diyad cal ubona ko ifite ibara ry'ubururu rganmo ibara ry'bururu amakara y'umweru bakabacuruza ibintu by'inyange.

Amacupa ya litiro imwe n'igice ya Nili, akaba yegeranye n'igikarito kiri hirya, akaba ari amacupa atatu agaragara, gusa inyuma yayo hakaba hari andi atagaragara neza.

Amatureyi atanu akaba ariho amagi gusa, itureyi yo hejuru ikaba iriho amagi atuzuye, hirya naho hakaba hari andi matureyi atagaragara neza. Imbere y'aya ma tureyi hakaba hahagaze umuntu wambaye isurubeti ifite ibara rya orange.

Hanze hakaba hari imineke n'izindi mbuto zirimo tubogisi gusa zitagaragara neza. Akaba ari imineke ifite ibishishwa by'umuhondo, izindi mbuto zikaba ziri mu tubogisi ubona ko ziganjemo umweru, umutuku n'umuhondo.

Iyi ikaba ari ifoto umumama ubona ko ari umusilamukazi uteruye jage irimo amata akaba ari mu nzu ashobora kuba akoreramo ubucuruzi bwo gucuruza amata cyangwa se ahobita muri diyari ryakabaye ari firigo ibika amata.

Inzu ifite ibara ry'ubururu parafo y'umweru akiba ari inzu ubona ko ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bijyanye n'amata y'inyange n'amazi hakaba hari ibicupa biri hejuru ya etajeri.

Umugabo umwe utagaragara mu mumaso wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara akaba ahagaze, imbere hakaba hari undi mukobwa wicaye wambaye ikote ry'ubururu n'agakanzu k'icyatsi, akaba yicaye ku ntebe z'ubururu inyuma ye hakaba hari etajeri zirimo amafanta.

Umugore ufite ibisuko wambaye umupira w'imbeho urimo utuntu tw'uturongo twinshi, akaba ari mu nzu ifite amakararo y'umweru, hirya ye hakaba n'undi muntu ugaragara ibiganza gusa.

Akaba ari umugore wambaye amarineti y'amaso, ufite imisatsi iryamye y'umukara, wambaye ishati y'umweru, ufite telefone, uri ku cyapa bamamarizaho cya Western Union.

Iki akaba ari icyemezo cya Rwanda Revenue Authority kigaragaza yuko imisoro yose yishyuwe nta musoro n'umwe ubereyemo mu Rwanda Revenue Authority, kikaba kiri mu ibara ry'umweru ibirango byu by'umuhondo ,icyatsi ,ubururu.

Akaba ari ibiganza bifasha amafaranga yo mu buhinde gusa no hirya hakaba n'andi mafaranga y'ubwoko bwishi atagaragara neza uzamura ayo mafaranga afashwe n'ibiganza akaba ari amafaranga ubona ko ashobora gukora yo mu buhinde akaba ariwe mugabo wambaye runette utagaragara neza.

Amadorari menshi y'ijana akaba afashwe n'ibiganza bibiri by'umuzungu, kuri iryo dolari akaba ari umugabo w'umuzungu akaba ari.

Iyi akaba ari inote ya mirongo itanu yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo, akaba ari inote ijya kumera nka kaki, ikaba iriho ikintu kimeze nk'ikibumbano, inyuma hayo hakaba hariho amazu atagaragara neza.

Uyu akaba ari umugore w'umuzungu ufite amafaranga menshi atari gutuma agaragara mu maso, akaba yambaye amarinete y'amaso akaba afite imisatsi y'umukara akaba yambaye agapira k'ubururu.

Ibi akaba ari ibiganza bifashe amafaranga y'amahinde, akaba ari amafaranga menshi ubona ko hariho umugabo uri guseka wambaye uturinete, akaba ari inote zigiye zitandukanye iza magana atanu n'iz'igihumbi.

Aya akaba ari amafaranga y'amadolari ubona ko ari amafaranga menshi cyane yo mu inote ry'ijana ariko buri gapaki kakaba kagiye gafite inote nyinshi cyane zitagira umubare aya mafaranga akaba ariho utuntu tw'umuhondo.

Gatanu by'umwirabura bikaba bifashe amadorari, akaba ari amadorari ijana gusa akaba ari amadorari menshi yagiye atandukanye akaba ari umuntu utagaragara neza ko yari yafotorewe ahatemewe.

Icyapa cy'umweru cyanditseho Muhabura foregisi biro, kikaba cyanditseho inyuguti z'umukara n'inyuguti z'umutuku, kikaba kimanitse ku rukuta, akaba ari ku nzu ya etaje.

Abagabo benshi b'abazungu bahagaze akaba ari abagabo batandatu, bakaba bari ahantu bavunjishiriza amafaranga hakaba hari ibyapa biyamamaza byiganjemo ibara ry'umuhondo.

Iyi akaba ari inzu, ubona ko igizwe na parafo z'umweru, akaba ari inzu ubona ko ikorerwamo ubucuruzi. Hakaba harimo abazungu, umuzungu umwe uhagaze hirya n'undi uri muri kontwairi umeze nk'aho ari kwakira abantu.

Akaba ari inzu, akaba ari inzu ikorerwamo kuvunjisha, imbere yayo hakaba hari umuryango w'umweru, mo imbere hakaba hatagaragara, akaba ari inzu iri mu ibara ry'mweru, ufite purafo z'umweru.

Akayetajeri kamanitse ku gikuta karimo imyanya itanu, kakaba kagiye kamanitseho imitako igiye itandukanye. Aho harimo umutako umwe uri mu ivaze y'umweru umeze nk'igiti.

iIntebe enye, hagati yazo hakaba harimo imeza. Hirya hakaba hari inzu ifite ibirahure bibonerana, inzugi zijya gusa nk'umweru n'ibara ry'icyatsi ryerurutse.

Izingizi akaba ari intebe zo muri salo akaba ari intebetege enye n'imeza imwe, zikaba ziri mu ibara rijya gusa nk'umuhondo gusa urimo na'aatotuku, zikaba ziteretse hanze ku mapave imbere hakaba hari inzu.

Akayetageri kariho amavaze menshi; amavaze menshi akaba afite ibara ry'umweru, ivaze imwe ikaba ifite ibara ry'umukara iri ku kayetageri n'indi vaze iri hasi ifite ibara ry'umukara itagaragara neza. Inyuma hakaba hari urukuta rw'umweru.

Iyi ni ifoto iri kugaragaramo intebe zisa nka kacyi, inyuma hari utubati ubona ko dushobora kuba ari utubati babikamo imyenda cyangwa se bakaba babikamo inkweto, hano hakaba hari n'ikibido cy'ubururu, utwo tubati tukaba tugizwe n'ibara ry'umweru.

Izi ngizi akaba ari intebe zo muri saramange zikaba zifite imeza. Akaba ari intebe nyinshi ubona ko zishobora kuba zigurishwa, zikaba ziri mu ibara rijya gusa nka gorude.

Akaba ari intebe zi muri salon zikaba zifite ibisego y'umweru, iyo salon hasi hakaba arimo amakaro hari n'intebe ziri mu hantu n'umweru n'umukara.

Intebe ziri mu ibara ry'umukara n'izindi ziri mu ibara ry'ubururu imeza hagati abona ko ari meza nini n'indi meza ku ruhande byifashishwa n'akabati gato agasha kajyaba televiziyo.

Intebe esheshatu zifite ibara ry'umutuku, hagati y'izo ntebe hakaba harimo imeza y'umweru ifite umuzenguko hirya yazo hakaba hari inzugi zifunze.

Ubu akaba ari ubusitani buteretsemo intebe z'umukara, abantu baruhukiramo, wenda nk'iyo baje hanze bagiye gufata nk'akantu runaka, zikaba ziteretse imbere mu gipangu.

Sale iberamo inama cyangwa se ibindi bikorwa runaka bihuriramo n'abantu benshi, akaba ari sale ya emu hoteli, ikaba itarimo abantu ariko ikaba itunganyije nkaho wagira ngo rwose hagiye kuberamo inama.

Iyi akaba ari inyubako ndende, ubona ko ari inyubako nini ikorerwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, imbere hayo hakaba handitseho Britam Center, ishobora kuba ari nk'ibyicaro bya Britam.

Ahangaha hakaba ari ahantu hatangwa servez na ari bita mearfare shorence company akaba arimo abagabo babiri batatu bahagaze na muri akaba yambaye lacosti yumukarapantaleco waye akaba yambaye ikositimu z'umukara harimo n'uwambaye ishati y'mweru n'pantaro yumukara.

Aha ngaha akaba ari ifoto y'umuntu wari wicaye mu ntebe, yaryamye wambaye agapira k'umutuku, ipantaro y'umukara, congo z'umukara, akaba yicaye mu ntebe z'amadiva ari mu ibara rijya gusa n'umuhondo, imbere hakaba hari n'indi ntebe y'umukara ubona ko ari nk'ahantu bakorera serivisi za Sorasi.

Aha ngaha hakaba hari amazu menshi, hirya hakaba hari amazu ya etaje, imbere yange naho hakaba hari amazu, hakaba hari icyapa cya Britam kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Inzu ndende hakaba hari icyapa cya biritamu cyapa kikaba kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru mukeya imbere yacyo imbere y'iyo nzu hakaba hari abantu benshi harimo umuntu wambaye hejuru ijiri ya MTN.

Inzu imanitseho icyapa cyo kwamamaza cya U.S. INSURANCE kiri mu ibara ry'umweru, inyuguti zandikishije ibara ry'umutuku. Imbere yayo hakaba haparitse imodoka ebyiri y'umutuku n'iy'umweru.

Akaba ari inzu ya Saniramu. Ikaba ifite parafo y'umweru, ikaba ifite sima y'umukara, hakaba harimo intebe z'umukara, ikaba itatsemo ibipirizo byinshi by'ubururu n'umweru.

Abagabo babiri n'abagore babiri. Umugabo umwe akaba yambaye isarubeti y'ubururu undi akaba yambaye ishati ijya gusa nk'ikigina, umugore umwe akaba yambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru, undi akaba yambaye ishati y'umweru.

Iki akaba ari icyapa cya mpande enye kijya kugira ibara ry'ubururu amagambo yandikishijwe umweru n'icyatsi kidapika cyane, abamo agatara gasa icyatsi akaba ari icyapa cyamamariza I&M banki.

Umukobwa wambaye marinete akaba afite umusatsi gusa utari igisuko, akaba yambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, akaba afite igitabo cy'umutuku cyangwa se ikaye, inyuma ye hakaba hari umweru n'umutuku na oraje.

Umugabo uri kumwe n'umwana, uwo mugabo akaba yambaye ishati ijya gusa nk'umukara werurutse cyane n'umupira w'umweru mu imbere, akaba ari kumwe n'umwana wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'iroza, uwo mwana akaba atoruye igipupe.

Abantu benshi bari ahantu mw'itente bakaba bicaye hakaba hari imeza ndende ifite ibara ry'umweru akaba ari umukobwa umeze nk'uri gufotora wambaye ingofero y'umukara n'agapira' n'abandi bantu benshi.

Abantu bari mu nzu irimo amakaro ifite purafo bakaba bameze nk'abari mu nama bategereje umuntu cyangwa se abantu runaka kugira ngo inama itangire hakaba hari imyanya ibiri itarimo abantu.

Imbere yanjye nkaba ndi kubonanda abantu batatu; umugore umwe, numugabo umw,e n'umwana. Bari hagati ufite gitari bameze nkaho bagiye gushira mugikarito, nu'mugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro ijyagusa umukara nk'umuntu wambaye agapira k'umukara.

Iyi akaba ari inzu cyangwa se ofisi y'umuntu ku giti cye, hakaba harimo abantu batanu abagabo bane n'umubyeyi umwe ubona ko bose bambaye udupfakumananywa.

Aha ngaha akaba ari mu isoko ubona ko rigiye ricuruza ibintu bigiye bitandukanye ibiribwa, imyambaro n'ibindi rikaba rifite igisenge cy'ubururu.

Iri akaba ari iduka se iduka riranguza ibiribwa rikaba rihagaze imbere yaryo haba hahagaze abantu bane babiri ubona ko ari abakarani n'abandi babiri bameze nk'aaba abacuruzi cyangwa se umwecuruza undi ari umugozi.

Abantu benshi bari mu isoko rikaba ririmo karoti, intoryi, insenda, tangawizi n'ibindi bicuruzwa byinshi, akaba ari isoko ryagutse.

Aha ngaha akaba ari ahantu bacururiza imbuto, hari abantu benshi biganjemo abana n'abamama gusa abantu bahari benshi bakaba abagore, bakaba bacuruza imbuto z'ubwoko bwinshi, insenda, intoryi, kokombure n'ibindi.

Abantu benshi bari imbere y'ahantu hari imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, inanasi, amavoka, ibinyomoro, amatunda, imyembe, amapapayi n'ibindi.

Aha hakaba hari imbuto nyinshi ziganjemo amaronji, amapapayi, inanasi, ibinyomoro n' imineke, hirya hakaba aba mama batagaragara neza ubona ko bacuruza muri izo nce.

Umugore wambaye ikanzu ikozwe mu gitenge n'undi mugabo wambaye agapira ka rakosita wunamye wambaye n'bikoboyi n'inkweto z'umutuku. Imbere hakaba hateretse indabi irimo ibiraha isambusa.

Aha akaba ari mu isoko, aho ubona ko bacuruza ibiribwa, hakaba harimo umumama uhagaze uri kugura ibiribwa runaka, hakaba harimo n'abandi bantu benshi batagaragara, aho imbere hateretse utubase, isiniya imeze nk'iy'ibirayi.

Aha ngaha akaba ari mu isoko, aho ubona ko harimo imyenda myinshi yiganjemo imyenda y'abana ,akaba harimo umuntu umwe uhagaze utagaragara neza, hari n'undi wambaye ikoti rirya guusa n'umuhondo.

Uyu akaba ari umumama uri imbere y'iduka cyangwa se isoko, wambaye akajipo k'icyatsi n'inkweto zifunguye. Hirya hakaba hari abandi bantu bari aho bacururiza.

Iri akaba ari isoko ubona ko ririmo abaturage benshi cyane. Akaba ari isoko ubona ko ricuruza ibiribwa, imbuto, inyanya, intoryi n'ibindi bi...

Umumama uri gucuruza imbuto, akaba afite ibigudi mu mutwe, akaba ari kumwe n'undi mumama wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi wa waje guhaha, umumama akaba acuruza imbuto zirimo amacunga.

Aha ngaha akaba ari mu isoko, ubona ko harimo abaturage benshi cyane bahagaze, bamwe muri bo ukaba ubona ko hari umuntu bameze nkaho bari kureba, hakaba ari isoko ricuruza ibiribwa.

Isoko ririmo abantu benshi, rikaba ririmo ibiribwa ibitoki, inyanya, ibitunguru, karoti akaba ari isoko rinini rifite igisenge kitarimo parafo.

Ahangaha akaba ari mu iduka hakaba hahagaze umumama wambaye imyenda isa nk'igitenge, akaba hahagaze n'undi mukobwa wambaye ipantaro y'umutuku umupira wa emutiyeni uri mu ibara ry'umuhondo.

Aha ngaha akaba ari ahantu hatangirwa serivisi za MTN, ubona ko ari ahantu higanje mu ibara rya MTN ry'umuhondo, hakaba hari abagabo benshi ubonamo abahagaze ubona ko ari abagabo barenze.

Ahangaha akaba ari kuri blanshe ya MTN, ubona ko rwose ari inzu itatse mu mabara y'umuhondo n'abakozi bayo bambaye imipira y'imihondo n'abandi bantu bambaye amashati y'umweru ubona ko bashaho kuba bari muri egisipo cyangwa ikindi gikorwa.

Aka akaba ari akazu ka MTN gakoramo umu agenti kakaba ari akazu kari mu ibara ry'umuhondo, akazu gatoya umuntu ashobora guteru akakimura akajyana n'ahandi kandi n'abantu gusa batagaragara neza.

Akaba ari abantu babiri, umugore, n'umugabo, umugore akaba yiteze akantu mu mutwe, akaba ari kureba muri telefoni, yambaye agapira ya rakosite, karimo ibara ry'umuhondo, ka emutiyeni, kanditseho ''pay with momo'', umugabo nawe yambaye ikote ry'umukara, ari kuri telefone, yicaye kuri moto.

Uyu akaba ari ibiganza by'umuntu utari kugaragara neza, ubona ko yari ari muri telefoni, telefoni ye irimo ibara ry'umuhondo n'akantu k'agatangara, akaba ari umugabo ufite agakapu...

Umugabo wambaye rakosite y'umuhondo, akaba ahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umukara, hirya yayo na ho hakaba hari indi modoka ifite ibara ry'umukara itagaragara neza.

Abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umuhungu akaba yambaye agapira karimo uturongo tw'umweru na shokora, umukobwa akaba yambaye agasengeri katagaragara.

Akazu gafite amadirishya abiri akaba ari akazu gatoya gafite ibara ry'umuhondo ka MTN, hakaba hagaragaraho abantu babiri gusa batagaragara neza, hirya hakaba hariyo abandi bantu nabo batagaragara neza.

Iyi ikaba ari ifoto iri kwamamaza ibikorwa by'ubucuruzi akaba ari shopu irimo imyenda, ifoto iri hejuru ibanza bari kutwereka hanze y'inyubako n'indi foto ibanza ikurikira bari kutwereka hanze y'inyubako.

Iyi akaba ari ifoto y'umuntu igaragaraho uri kwamamaza ibijyanye na kefusi, aho ari kutwereka ifiriti ziri muri bapakinze na baga n'inkoko, akaba yambaye rinete akaba ari umugore.

Ikimodoka kinini gifite ibara ry'umuhondo n'ubururu akaba ari ikimodoka cy'iposita kikaba giparitse, imbere yacyo hakaba hari amazu imwe ikaba ifite ibara ry'ubururu n'umuhondo n'inzugi z'umuhondo, hirya yayo hakaba hari indi nzu.

Iki akaba ari icyapa cyo kwamamaza, kirimo umukobwa uri guseka neza. Wambaye agashati k'umweru ufite ufite emvirope azifite inyuma, imwe y'umweru n'indi y'icyatsi. Iki cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru n'umukara mukeya.

Iyi akaba ari inzu ishobora kuba ikodeshwa iherereye i Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi bibiri by'amadolari, ikaba ari inzu ya etaje ubona ko isize irange ry'umweru, ifite na esekariye.

Aha akaba ari muri salo y'inzu, ikafite amakaro y'umweru, inkuta z'umweru parafo y'umweru, ifite udutara tw'umuhondo, akaba ari inzu iherereye i Kigali igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Abagabo babiri umwe akaba ari umuzungu akaba afite imisatsi myinshi y'umukara, akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, undi akaba ari umwirabura ufite agapfukamunwa, akaba yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ubururu.

Iyi akaba ari inzu iherereye ku Gisozi ya mashoni. Ikaba ifite icyumba kirimo igitanda gisasheho ibiringiti by'umweru, kikaba gifite imisego ibiri. Kikaba gifite inkuta z'umweru, amadirishya

Aha ngaha akaba ari mu bwiherero, ubwiherero bugizwe n'amakaro, amakaro menshi yometse ku gikuta n'andi makaro ari hasi hakaba harimo ubwiherero bw'umweru bwa kizungu, idirishya rifunguye.

Inzu ifite ibara ry'umweru kuri parafo n'inkuta z'umweru, ikaba ifite amakaro y'umweru hakaba harimo igitanda cy'umukara gifite amashuka y'umweru, kuri parafo hakaba itara rimurika umweru.

Imbere yanjye nkaba ndi kubona umugore n'umugabo umugabo mu ishati y'umweru' ipantaro y'umukara akaba ari umuzu wumuzu n'undi mugore w'umwirabura umugore ubona kuba a ashobora kuba ari kurereka umugabo byo ujyanye n'inzu

Iyo akaba ari inzu iri kugurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, ifite amapave y'umweru n'umutuku, akaba ari inzu ifite ibara ry'umweru n'umuhondo, ikaba ifite igisenge cy'umukara, akaba ari inzu iherereye i Kanombe.

Igikoni gifite utubati tw'umweru kikaba gifite parafu y'umweru kuri iyo parafu hakaba hamanitseho itara riri kumurika umweru kikaba gifite n'akandi kabati k'umukara.

Iyi akaba ari inzu iri kugurishwa miliyoni mirongo itatu, ikaba ifite amapave meza, ikaba ifite saro nziza, ikaba iri mu ibara ry'ubururu n'umweruru ubona ko ifite na parikingi nini.

Ubu ngubu bukaba ari ubwiherero, ubona ko burimo amakaro, burimo tuwarete, imbere yaho hakaba hari umuryango ufunguye, akaba ari inzu igura miliyoni ijana na mirongo itatu.

Aha akaba ari muri salo mu nzu aho harimo intebe zimeze nk'ubururu imeza y'umukara, tapi irimo utubara tw'umweru n'umukara, akaba ari inzu ifite parafo y'umweru, irangi ry'umweru.

Ikikoni gifite amakaro ku nkuta afite ibara rivangavanze kikaba gifite utubati dufite ibara rya kaki kikaba gifite parafu ifite ibara rya kake.

Akaba ari muri saro mu nzu, akaba ari inzu ifite parafo y'umweru, inkuta z'umweru. Ikaba igurishwa miliyoni mirongo kenda n'eshanu, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Iherereye i Kanombe, ikaba ifite ibyumba bitanu, ubwiherero bune, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu, ikaba ifite parikingi nini, ikaba ifite aka rufutopu hejuru gafite agasenge.

Inzu ifite ibara ry'icyatsi, ikaba ifite igisenge cy'umutuku, ikaba ifite igipangu cya giriyayaje kibonerana, kirimo ibara ry'umukara, ikaba ari inzu iherereye i Kanombe, ikaba ifite ibyumba bitatu n'ubwiherero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri.

Iyi akaba ari inzu iherereye Kigali i Kanombe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi, ikaba ari inzu ifite ibyumba bine bifite ubwiherero butatu akaba ari inzu ubona ko ifite parikingi nini.

Inzu ya etaje igeretse, ikaba ifite igipangu cy'umutuku kirimo uturongo tw'umweru, ikaba ifite igipangu cyubakishijwe amatafari ya mponyo n'amabuye, akaba ari inzu ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ikaba iherereye Kimironko.

Iyi akaba ari apatimenti, igizwe na foro ebyiri garandi foro hamwe na fasite furo, akaba ari inzu ikodeshwa, akaba ari apatimenti...

Inzu ifite amapave y'umutuku na kaki, ikaba ari inzu ifite ibara ry'umweru n'agahondo katari umuhondo cyane, ifite igisenge cy'umukara; ikaba ari inzu iherereye i Kigali igurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu.

Inzu nini ya etage ifite ibara ry'umweru n'umukara, ikaba ifite igipangu cy'umukara gifite urukuta rw'umweru, ikaba iherere irereye Kabeza ikaba ifite ibyumba bitatu, n'ubwiherero butatu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu.

Iyi akaba ari inzu ifite igipangu gisa n'icyatsi kerurutse akaba ari inzu ya cadastiri iherereye Kabeza ikaba ikodeshwa ifite igisenge cy'umutuku.

Inzu iherereye i Kanombe ikaba ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu. Ikaba iparitsemo imodoka y'umukara, akaba ari inzu ifite ibara rijya gusa nk'umutuku n'irindi rijya gusa nka kaki.

Iyi ngiyi ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa kigali aho bita Gacuriro. Ikaba ari inzu ya etage ifite ibyumba bitanu ikakodeshwa amadolari ibihumbi bitatu, ikaba ifite parikingi nini.

Iki akaba ari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru mu nyuguti zandikishijwe umukara, akaba ari imodoka munsi icyapa kivuga ati:"hano tubafitiye serivisi zikurikira; taransipoti hagati."

Iyi akaba ar’inzu iri kwamamazwa, akaba ar’inzu nziza ya cadasteri ifite ibyumba bine, ikagira ubwiherero butatu, ikaba iri kugura miliyoni ijana na cumi.

Aha ngaha akaba ari mu iduka rya simba supa maketi, rikaba ririmo abantu benshi baje guhaha, hakaba harimo n'abakozi ubona bambaye udupira twa oranje, bameze nk'abari gushyiramo muri mashini kugira ngo barebe ibyo abahaha bakoresheje.

Uyu akaba ari umuntu wambaye agapira k'umukara n'agapantaro k'ubururu k'ikoboyi, inyuma ye hakaba hari amamaneke menshi amanitseho imyenda y'udukanzu tw'abagore.

Iyi akaba ari inzu nini yagutse ikorerwamo nk'ubucuruzi cyangwa se izindi business runaka, urabona ko hari abantu benshi batagaragara neza, akaba ari inzu irimo amakaro meza, inkingi zidasanzwe.

Iyi akaba ari inzu cyangwa se ahantu bakorera ubucuruzi bw'inkweto n'indi myenda ubona ko ari ibintu bya Made in Rwanda, hakaba hari inkweto nyinshi zimanitse.

Aha akaba ari nko mu karesitora runaka cyangwa se agakofi shopu, ubona ko karimo abakiriya n'abakozi bakoramo aho abakozi........

Aha hakaba ari mu marembo yinjira muri Simba, aho ubona ko hari abantu benshi bari kwinjirayo harimo umumama utagaragara n'abandi bagabo, gusa na bo batagaragara neza.

Abantu batanu bari mu nzu ikorerwamo ubucuruzi, inyuma, iyo nzu ikaba ifite ibintu byinshi bimanitse; inyuma hakaba harimo umuzungu umwe n'abirabura bane.

Isoko ricuruzwamo imbuto n'ibiribwa bigiye bitandukanye rikaba ari isoga rifite amarangi y'umuhondo, hakaba harimo umuntu umwe wicaye n'undi muntu uhagaze.

Aba akaba ari abantu benshi b'abasiramu n'abagore b'abasiramu n'abana b'abasiramu bakaba bafashe za mituweli zabo bafite n'umuntu bari kuzereka, bakaba bari ahantu hari imigeka.

Iyi akaba ari ikarita ya mituweli gusa itagaragara neza, ikaba ari ikarita iri mu mazina umunyamuryango w'ubwisungane mu kwivuza, mitueli ishema ryacu ikaba ari ikarita iri cyangwa.

Intoki z'umu mama zifashe mituweli akaba ari ubwishingizi bukoreshwa n'abanyarwanda benshi, uwo mu mama akaba yambaye agatambaro k'umuhondo akaba atagaragara mu maso.

Aha ngaha akaba ari abamama ubona ko bameze nk'abaje kwa muganga cyangwa se ahandi hantu, hari kubera igikorwa kiri guhuriramo abantu barenze umwe, ukabona ko ari abamama biganjemo abagore benshi, bakaba barimo n'umugabo umwe, bose soba ubona ko bafite ibipapuro.

Agafoto k'umwana mutoya kari ku ikarita y'ubwishingizi bwa Mituweli, inyuma hakaba hari igikuta ubona ko kimeze nk'icya kabarasasa kiri mu ibara ry'ubururu, aka gafoto kakaba gateretse ku meza.

Ibi ngibi akaba ari intoki z'umubyeyi, wari wambaye igitenge, akaba afashe Mituweli mu ntoki n'indi fishi, ubona ko ashobora kuba yari agiye kwa muganga, akaba yegeranya n'undi muntu utagaragara neza na we.

Iyi akaba ari ifoto ya RSSB iriho umupapa wambaye ishati y'umweru n'imvi z'umweru uri kumwe n'undi mumama wambaye akantu k'ubururu, ufite amaherena maremare, ubona ko rwose basetse cyane.

Icyapa cya arayesesibi kiri mu ishusho y'ubururu ibirango by'umweru n'ubururu, akaba ari icyapa cyanditseho reba imisanzu yawe muri arayesesibi.

Abagore babiri bari mu iduka hakaba arimo mugore umwe wambaye isengiri y'umweru, nipantaro y'umukara, hakaba hari n'undi uri muri kontwari utagaragara neza; akaba ari mu nzu irimo amatejeri menshi, arimo ibicuruzwa byinshi.

Aha akaba ari mu isoko cyangwa se muri supamaketi runaka. Urabona ko icuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Akaba ari isoko rinini cyane ririmo utu etajeli twinshi tugiye turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

yembi akaba ari supermarket cyangwa se iduka ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho, hasi harimo amagara y'umweru hakaba harimo umuntu mwiza wambaye ishati igaragara ipantaro y'ikoboyi n'inkweto za jorodani z'umukara.

Aba akaba ari abantu bane, gusa umwe muri bo ntabwo agaragara neza. Umumama wari uri guhaha cyangwa se ari gupakirira abakiriya, hakaba hari n'undi mukozi wambaye agapira ka MTN n'ipantaro y'umukara n'undi mugabo wari uri inyuma wambaye ikanzu y'ubururu.

Iyi akaba ari ifoto yo mu iduka cyangwa se supamaketi runaka, igaragaza imigati y'ubwoko bugiye butandukanye, hasi hakaba hari ubwoko butandukanye n'ubwoko buri hejuru.

Inzu ifite inkuta z'umweru, pulafo y'umweru, ikaba irimo utu etajeri twinshi turimo ibikoresho byifashishwa mu ngo z'abantu, harimo amasabune.

Inzu nini irimo amakaro y'umweru yivanzemo n'amakaro y'umukara ikaba irimo ama etejeri menshi arimo ibicuruzwa byinshi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara wambaye isaha ku kuboko ku ibumoso, akaba ari muri supamaketi irimo ibintu byinshi, inyuma yaho hakaba hari abandi bantu uwabambaye ishati y'umukara umupira w'umuhondo n'uwambaye ishati y'umweru.

Aha akaba muri supermarket cyangwase isoko ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, gusa bifunze hakaba harimo utu etajiri twinshi turimo ibicururizwa hakaba hasi ari umweru .